Abantu bagiye batandukanye aho harimo abatanga ubutabazi bw'ibanze ku muntu wagize ikibazo, bakaba bamujyanye kwa muganga kugira ngo yitabweho maze arebe ko yakira.

Inyubako y'ishuri iteraniyemo abanyeshuri bagiye batandukanye. Aho aba banyeshuri bari kugenda biga ndetse bakaba bicaye ku ntebe nziza cyane zigezweho za kijyambere zifite n'amabati meza cyane.

Umuntu uryamye mu gitanda kwa muganga, bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi, bakaba bamurambitseho serume kugira ngo barebe ko bamukurikirana, akaba yabasha gukira.

Abantu bagiye batandukanye, biganjemo igitsina gabo, harimo abakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka Croix Rouge, aho bari kugenda baganira bahana ibitekerezo, kugira ngo bige uko bateza imbere ubuzima.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku nyubako y'umuntu, bigaragaza ko hariho umuntu wagize ikibazo cyihutirwa, bakaba bagiye kumwihutana kwa muganga.

Abantu b'abaganga benshi cyane bagiye batandukanye bambaye impozanano ba ziri mu mabara y'ubururu bakaba bateraniye hamwe aho bari kwiga uburyo ki bajya baratanga ubuvuzi bwihuse.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bahuriye hamwe mu gikorwa kijyanye n'ubuvuzi aho haba hari ikimodoka cyabugenewe kiba kirimo abaganga hanyuma umuntu ushaka izo serivise akinjiramo bakamufasha.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi acroix rouge aho bari guterura umuntu wagize ikibazo ngo bamwegereze abaganga hanyuma bamwiteho.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo abaganga ndetse n'abandi batari abaganga, harimo umurwayi warembye wajyanywe ku gitanda bakaba bari kumwitaho byihuse kugira ngo akire.

Imodoka y'imbangukiragutabara itabara umuntu wagize ikibazo, ikaba iri mu mabara y'umweru ndetse umutuku yanditseho amagambo y'ibangukiragutabara, ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo yihuta.

Inyubako nziza cyane aho mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye aho iyi nyubako rero itangirwamo serivise z'ubuvuzi, bavura umuntu wagize ikibazo kihutirwa.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse harimo n'ibikoresho by'icyatsi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka croix rouge, utabara umuntu wese ugize ikibazo aho bamushyira ku gatanda ka bulacali ,bakamutwaraho bakamwihutana kwa muganga kugira ngo akire.

Umugore wambaye agapira k'umweru akaba akinyeye igitenge, ari ku mugezi wa kandagira ukarabe, ari gukaraba intoki, aho ibingibi ari ingenzi cyane kuko bituma umuntu abasha kumererwa neza.

Abantu biganjemo abagabo bambaye amapantaro y'umukara n'udupira tw'umweru batebeje, bakaba basunitse umurwayi urembye ku kagare ka burankari bamwinjiza mu bitaro ngo bamuvure.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ari inyubako y'ibitaro hahagazemo umuganga ari kumwe n'umugore bigaragara ko ari kumubaza uburyo arwaye ngo amuvure.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho isakaje amabati y'ubururu, ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse iteye n'amarangi y'umweru ku nzuugi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, bakaba bahagaze bari kwifotoza, harimo batatu bambaye utujiri dusa ndetse n'undi umwe wa kane, bakaba bahagaze imbere y'ibitaro, bari kwifotoza bishimye.

Abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi iyo bamaze kurangiza amashuri yabo bahinduka abaganga beza ba kinyamwuga, batanga serivise nziza cyane aho umurwayi uje arembye bamwitaho kugira ngo barebe ko yakira.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba k'inama bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore aho umwe afashe ijambo ari kugenda abaganiriza.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bari kugenda mu muhanda bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu ibitaro bya Nyagatare. Inyuma hakaba hari abantu benshi cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, hakaba ari inyubako y'ibitaro itangirwamo serivisi, nyinshi cyane zigiye zitandukanye z'ubuzima, aho hari abantu benshi cyane bateraniyemo baje gusaba izo serivisi.

Abantu bagera muri babiri aho harimo umwe w'umuganga akaba ari kuvura umukobwa, uyu muganga rero akaba ari umuporisi kubera ko yambaye umwambaro uriho ibendera ry'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo, abayobozi bakorera ikigo k'igihugu gishinzwe amatora, bambaye imipira y'umweru bose bazamuye amaboko bari kurahira.

Abantu benshi cyane bagiye bagiye batandukanye, bahuriye hamwe mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi aho hari umusaza uryamye ku gitanda, muganga akaba amubwiye ngo eguka gato turebe ko hari kuzamo agahenge.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, aho higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Bakaba bari mu cyumba bakikije ameza, bigaragara ko bari mu nama, yiga kubijyanye n'imitangire ya serivisi y'ubuvuzi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho higanjemo abari mu gikorwa kijyanye n'ubuvuzi, bari mu nama, aho imbere hicaye umugore wambaye impuzankano z'abaganga zisa icyatsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo imbere harimo abantu bagiye batandukanye bitabiriye inama, hari umugabo ubahagaze imbere w'umuganga ari kubigisha.

Laburatwari ikorerwamo ubushakashatsi bugiye butandukanye ku bijyanye n'ubuzima aho harimo igikoresho kifashishwa bari gusuzuma kizwi nka microscopi aho ba kureba indwara zigiye zitandukanye.

Umukobwa wambaye agataburiya k'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa k'umweru akaba ahagaze yambaye udupfukatoki, ari kurebera muri microscopi uko indwara ziba zimeze.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe aho ari muri laboratwari yambaye itaburiya y'umweru ari kumwe na bagenzi be, bari kugenda bakora ubushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye.

Raboratory ikorerwamo ubushakashatsi bugiye butandukanye ku bijyanye n'ubuzima, aho imbere hari umuntu wabyigiye wambaye agapfukamunwa ,ndetse n'itaburiya ari kugenda yita ku bintu bigiye bitandukanye.

Ibi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri laburatwari kwa muganga aho bimwe byifashishwa basuzuma indwara zigiye zitandukanye cyane cyane nk'indwara zitagaragarira ijisho.

Umuganga uri muri laboratwari, aho ari kugenda akora ubushakashatsi ku ndwara nyinshi zigiye dutandukanye, aho ari kwifashisha icyuma cyabugenewe mu gusuzuma indwara arebamo.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa akaba ari ahantu mu nyubako nziza ari gukora ubushakashatsi kubera ko aha hantu bari ni muri laboratwari ikorerwamo ubushakashatsi.

Umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba ari mu nzu yabugenewe ikorerwamo ubushakashatsi bugiye butandukanye akaba ari kugenda yiga buryo ki bavura abantu.

Umuntu wambaye ga mu ntoki akaba afite agapimo keza cyane gafata amaraso akaba ari muri laboratwari bigaragara ko ari gukora ubushakashatsi ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Igitabo cyanditseho amagambo agiye atandukanye avuga ngo kwirinda no kwivuza malariya k'umubyeyi utwite n'uwonsa ni ingenzi cyane.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe mu kigo cy'amashuri, aho bari mu kibuga bari kugenda bakina, bigaragara ko bari mu masaha y'akaruhuko, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri.

Abaganga benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari mu gikorwa cyo kwita ku buzima bwiza bw'abana. Hakaba hari n'ababyeyi bagiye bazana abana kugira ngo barebe ko bameze neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho kwa muganga aho ari inyubako itangirwamo ubuvuzi bw'abana bakiri bato, hari umugore wicaye bigaragara ko umwana we bari kumuvura bamwitaho.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bikaba biganjemo abagore, bakaba bahuriye hamwe mu gikorwa cyo guteka batekera abana babo batoya biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bari guteka ibiribwa byiza cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu nama higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bari mu nama bishimiye aho bakurikiye inama bari kugezwaho n'uyu mugabo ubahagaze imbere.

Umugore wambaye amadarubindi, akaba afite inkongoro mu ntoki, ari guha umwana amata, ubu ni uburyo bwiza, bwashyizweho na Leta y'u Rwanda kugira ngo abana bakiri bato, bagire ubuzima bwiza.

Abantu bagiye batandukanye bahuriye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bicaye ku dutebe bakoze ishusho ya mpande enye bari kuganira buryo ki ubuzima bwakomeza gusigasirwa.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo n'abasirikare, bakaba bicaye ahantu bari kwifotoza. Aho bambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi ndetse harimo n'umugabo umwe wambaye ikositimu.

Abantu bahuriye hamwe bigaragara ko bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka croix rouge bakaba bari gufata umukobwa wagize ikibazo kugira ngo bamwihutane kwa muganga.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye higanjemo ab'igitsina gabo, bakaba bari gukoma amashyi bishimye bigaragara ko bari mu gikorwa runaka cy'amajyambere, bakaba ari abagabo bagera muri batanu.

Umugore wagize ikibazo k'ihungabana akaba yambaye imyambaro y'umutuku n'ingofero ya gisirikari yitangiriye itama hakaba, hari mugenzi we wambaye iby'umukara ari kumuhumuriza ati ''humura mwana wa mama''.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho harimo amoko agiye atandukanye y'imiti, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho irimo akabati gacururizwamo amoko agiye atandukanye y'imiti, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Udukarito tw'imiti igiye itandukanye aho iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, iyi miti rero ikaba ari ingenzi kuko ituma ubuzima bw'abantu butera imbere.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru cyanditseho amagambo ngo ivuriro S Jack Nyagatare bigaragaza ko hari faromasi ya Jack yita ku barwayi iherereye i Nyagatare.

Amacupa ari mu mabara y'umweru akaba ariho icyapa gishushanyijeho inka, bigaragara ko harimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura uburwayi bw'inka.

Inyubako nziza cyane yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'amashuri ya kaminuza aho iyi nyubako ari isomero, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye abanyeshuri bifashisha.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho muri iyo nyubako harimo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa biba biri muri faromasi byifashishwa mu kuvura indwara.

Inyubako icururizwamo imiti izwi nka farumasi, aho haba hakuramo abaganga babyigiye ku buryo icyo ushaka cyose ukibabwira, hanyuma bakakigukorera, ukavuvurwa ugakira.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bahagaze ahantu bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru, bafite ibyapa byanditseho amagambo ngo agakingirizo ni keza.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho bari mu nama hakaba hari umugabo uhagaze imbere, wambaye agapira k'umweru n'amadarubindi, ufite indangurumajwi, ari kubagezaho ijambo nabo bamukurikiye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe biganjemo ab'igitsina gabo hakaba harimo n'inzego z'umutekano nka gisirikari ndetse n'igiporisi, bakaba bafite udushashi mu ntoki bigaragara ko baje kwishimana n'abaturage.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye aho bari mu nama bakaba bicaye mu nyubako nziza barebye imbere, higanjemo abasore n'abakobwa ndetse n'abagore n'abagabo.

Abantu benshi cyane bari kumwe, aho higanjemo abagabo bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru, bigaragara ko bakorera ikigo cy'umuryango utabara imbabare mu Rwanda, bakaba bahuriye hamwe bari mu nama.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyi nyubako ifite ibikuta biteye amarange y'umweru, imbere hakaba hahagaze umugabo uri kugenda akoresha aba bantu inama.

Umuntu wambaye agapfukamunwa ndetse wambaye n'akanozasuku mu mutwe, akaba ari umuvuzi uvura indwara za gakondo. Aho ari kugenda yerekana amoko ye atandukanye y'imiti acuruza.

Amoko agiye atandukanye y'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi gakondo aho haba harimo ibyo batunganyirizamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko izakinyarwanda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, higanjemo abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bagore bagiye batandukanye bakaba bari kwishima bishimira yuko serivise z'ubuzima zikomeje gutezwa imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako irimo ibikoresho byinshi kandi ibigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari kubaza umurwayi indwara arwaye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho isakaje amabati y'ubururu, ikaba iteye amarangi y'icyatsi, mo imbere hari kugendamo abantu bagiye batandukanye.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi aho hari umubyeyi w'umumama wicaye, iruhande rwe hari umwana ufite telefone na we wicaye ku gitanda bigaragara ko baje kumuvuza.

Kugira ubuzima bwiza aba ari igenzi cyane kuko muri iki gihe kwa muganga haba hari inyubako nziza cyane ndetse hari n'abantu babyigiye bifashishwa mu gutanga serivise z'ubuvuzi kugira ngo bugende neza.

Abantu bagiye batandukanye bahuriye hamwe kwa muganga aho hari ababyeyi babiri baje gukingiza abana babo ndetse n'umugabo waje aherekeje umugore we, akaba yitabiriye izi gahunda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho yubakishije amatafari ahiye, iteye amarangi y'umweru ku nkingi hakaba hahagazemo n'abantu benshi bagiye batandukanye bigaragara ko aha ngaha ari kuri diyoseze ya Kigeme.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda muri iki gihe, aho hasigaye hari imiti igiye itandukanye bifashisha bari kugaburira amatungo kugira ngo atarwara.

Udukarito tugiye dutandukanye turi mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, tukaba turimo amoko agiye atandukanye y'imiti, aho iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba iteye amarangi y'ubururu, ikaba ari inyubako y'ikigo nderabuzima aho hahuriyemo abantu bagiye batandukanye baje gushaka serivise z'ubuzima.

Abantu batashye ikigo nderabuzima none harimo umusirikare ndetse n'abandi baganga bambaye imyambaro y'icyatsi aho harimo umwe ufite umukasi, agiye gukata akagozi kahaziritse.